Umugabo uri kuhira imyaka akoresheje uburyo bwa kijyambere, yambaye ingofero y'urugara y'umukara ndetse apfutse umunwa, kandi yambaye n'ishati y'amaboko maremare, inyuma ye hari ibiti bigandaye.